Ubutabazi bw'ibanze bubangukiyeho bukorwa igihe umuntu agize ikibazo cyangwa se agize ibimutunguye impanuka ugasanga uwo muntu akeneye ubufasha bw'ako kanya budateguwe, bahita baza bakamufasha abaganga babizoberewemo.

Ubuvuzi bw'impanuka bw'aho ngaho, ni ahantu bafatiriza abantu bafite ibibazo byihutirwa ndetse byihariye, iyo umuntu yagize impanuka cyangwa se yahuye n'ibyago bakamufasha byihuse kandi ku buryo bwihuse.

Ku bitaro ndetse n'uduce tumwe na tumwe tuvura cyangwa se twita ku buzima uhasanga abarwayi benshi batandukanye, abatari abanyarwanda, ababa ari abaturutse hanze mu mahanga abazungu cyangwa se abirabura bose baba baje kwivuza.

Isuzumiro ni ahantu bakorera ubushakashatsi ku bintu bitandukanye by'umwihariko ubwo bushakashatsi bukorwa n'abanyeshuri barimo biga bashaka kumenya ikintu ndetse niki kigize. Usanga harimo uducupa twabugenewe hakaba harimo amazi yabugenewe ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inzu y'isuzumiro ni ahantu usanga abantu bajya mu gukora isuzuma ryabo ku bintu runaka. Ugasanga bafashe nk'akanyayamaswa cyangwa se bagafata nk'amaraso amwe y'umuntu cyangwa se y'ikintu bakayajyana muri iyo nzu y'isuzumiro. Bagahuza utuntu twinshi kugeza igihe babonye igisubizo bashaka.

Isuzumiro, isuzumiro cyangwa se aho bageragereza ni icyumba kiba gikubiyemo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kureba neza bakora zumu bareba ikigize ibintu runaka, urugero nk'iyo umuntu arwaye akajya kwa muganga, hari aho bamugeza bagiye kumusuzuma bagafata ibizamini bitandukanye ndetse bakanareba uko biri.

Ivuriro ry'ababyeyi ndetse n'abana batoya, aha ni ahantu bakingirira usanga hari abaganga babugenewe inzobere mu buvuzi, bifashisha inshinge bakingira abana ndetse bakifashisha n'ibindi bikoresho bitandukanye mu gupima ababyeyi bafite inda.

Icyumba cy'ububyaza cyangwa se icyumba babyarira mo, usanga harimo abana, harimo ibitanda abana baryamyeho ndetse ahanini usanga harimo n'abagore babyaye n'abitegura kubyara, icyo gihe basanga abo bagore bifashe neza bitegura kubyara, ababyaye bishimye bishimiye abana babyaye.

Ibigo bishinzwe ubuzima bwo mu mutwe, aha iyo uhageze usanga harimo abantu bicaye barimo baraganira ndetse n'umuntu ukuze cyangwa se ubizobereyemo inzobere mu buzima bwo mu mutwe. Ndetse usanga bahabwa inama zitandukanye, bahawe udukinisho, bamwe bishimye abandi bari guseka.

Ibigo bishinzwe abarwayi bo mu mutwe bafite ibibazo byo mu mutwe, rimwe na rimwe usanga baba babitewe no guhura n'imbogamizi zimwe na zimwe zikabatera kujagarara mu mutwe cyangwa se ugasanga bafite ubumuga buhoraho bwo mu mutwe, ubwo bumuga kandi aho kuri icyo kigo barabafasha, bakabaganiriza, bakabitaho bisanzwe kugira ngo bagarure mu murongo w'ubuzima.

Abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe, aba ni abantu bakugira inama mu gihe wagize ikibazo k'ihungabana cyangwa se wagize ikibazo k'ihungabana mu buryo bw'imitekerereze, birashoboka ko waba wahuye n'impanuka cyangwa se hari ikindi cyabiteye kugira ngo ube utakumva umeze neza mu mitekerereze yawe, abo rero bakugira inama ku bijyandanye n'uburyo wakwirinda n'uburyo wakwitwara mu gihe wahuye n'icyo kibazo.

Ubufasha ku buzima bwo mu mutwe butangwa ndetse bugahabwa umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, wumva ananiwe, wumva arushye, wumva aremerewe, wumva nta kigenda nyine mu buzima bwe, uwo nguwo ni we baha ubufasha bwo mu mutwe bw'ubuzima bwo mu mutwe. Bakamugira inama, bakamuzanira uturangazo akabasoma ndetse akanishima

Inzu zicuruza imiti, imiti y'abarwayi iyo umuntu arwaye hari aho ajya gushakira ibyo kumuvura kandi ubwo buvuzi usanga buherereye ahanini hanini mu bice by'imijyi, byifashishwa cyane batanga imiti ku barwayi.

Amazu acuruza imiti usanga hameze neza hakubuye ku muhanda harimo umuhanda ukoze neza, urimo amabuye utsindagiye ku buryo abaza kugura umuti babona aho banyura, usanga kandi hafite amarembo meza ndetse n'ibirango biranga ko bacuruza imiti.

Inzu zicuruza ibinini cyangwa se imiti ya kizungu. Izo nzu ziba zimeze neza zigomba kuba zifite isuku ndetse harimo utubati two gushyiramo bya bikoresho, harimo ndetse n'ibipimisho byinshi bigiye bitandukanye. Ibikoresho byinshi byifashishwa mu gupima abarwayi, ndetse n'ibiti bifashisha ndetse kugira ngo bayibahe.

Ubukangurambaga ku bigendanye n'ubuzima bwa muntu, usanga ahanini ari icyiciro kirimo ibiganiro bikubiyemo ibijyanye n'ubuzima bwaba ubw'imyororokere, bwaba imibereho ya muntu, bwaba ndetse n'uburyo umuntu yafata ubuzima bwe bwiza.

Imiti ya kinyarwanda ni uburyo bwo kuvura ukoresheje ibimera, ukifashisha ibyo bimera ndetse rimwe na rimwe ku babikora baba bafite n'igitabo basomamo ibyo bakoresha, bahuza utuntu n'utundi kugira ngo bavanemo umuti wa nyawo uvura indwara runaka, ugasanga hari nk'urusenda, ugasanga bafite inyabarasanya, ugasanga bafite ndetse n'inyabakecuru.

Ibigo bishinzwe ubuzima ndetse n'amavuriro iciriritse, uhasanga abantu baje kwivuza, ugasanga muri iyo nzu harimo abantu bafite imiti ndetse ugasangagira iyo mitiri mu kabati gateye neza, ugasanga bafite n'umuryango ufite uburyo ki utanga umwuka w'ubuhumekero.

Ivuriro ry'abantu bakuru cyangwa se iry'abana ni ihuriro ry'imiti cyane cyane by'umwihariko haba harimo imiti harimo inzobere mu gutanga ubwo bujyanama ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse n'imibereho ya muntu kandi ahongaho usanga hari abantu bafite uducupa turimo amazi two kunywa mu gihe bananiwe kugira ngo badasinzira, ba bambaye agapfukamunwa ndetse banafite imiti itandukanye.